iIbyumba by'amashuri byubakishijwe amatafari ahiye, ndetse bifite inzugi rimwe iba ry'ubururu, imbere yabyo hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi, ndetse kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gushimisha abana bato biga mu mashuri abanza.

Igishushanyo kiriho abarimu babiri b'umugabo n'umugore bambaye impuzankano igizwe n'amataburiya y'umweru, imbere y'aho hari abanyeshuri batandukanye higanjemo abakobwa bambaye amakanzu y'ubururu ndetse n'abahungu bambaye imyenda ya kaki, umwe muri bo afashe idarapo y'Igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba kinini kirimo urumuri, gisizwe irangi ry'umweru, kirimo umugabo witeze igitambaro mu mutwe ndetse yambaye ishati y'igitenge igizwe n'amabara atandukanye, imbere ye kandi hari ibishushanyo bitandukanye biri mu ibara ry'icyatsi.

Icyumba cy'amashuri kigirwamo n'abana ba garidiyene, gisizwe irangi ry'umuhondo ndetse kirimo idirishya rinini ririmo ikirahure. Gishushanyijemo ibishushanyo bitandukanye, ndetse kirimo ibitanda, byiganjemo ibikozwe mu mbaho, biriho matera.

Ikibuga kinini kirimo icyuma kifashishwa mu guha abana umunyenga kiri mu mabara atandukanye higanjemo iry'icyatsi, kiriho abana bane inyuma yacyo hari imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo, ndetse inyuma hari ishyamba rigizwe n'ibiti bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'ibyumba bitandukanye, byubakishijwe amatafari ahiye ndetse bisakajwe amabati n'ibara ry'umutuku kandi bishushanyijeho ibishushanyo bitandukanye. Imbere yabyo hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi.

Ibyicungo by'abana, bigizwe n'amabara atandukanye, higanjemo iryubururu, biri mu kibuga, inyuma yacyo, hari umurima munini, uteyemo ibiti bitandukanye. Ni ngombwa gufata abana neza kuko ni bo Rwanda rw'ejo hazaza.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'ibyumba byigirwamo bisize irangi ry'umuhondo rifite inzugi ziririmo ibara ry'umukara, imbere yacyo hari akabaraza karimo sima ndetse iruhande rwacyo hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, kirimo inzu ifite amabati arimo ibara ry'umutuku.

Icyumba cy'amashuri y'inshuke kirimo sima gifite urugi ndetse n'idirishya biri mu ibara ry'umukara, gisize irangi ry'umuhondo ndetse gishushanyijweho ibishushanyo bitandukanye, gishushanyijeho igitoki hejuru yacyo hari ijambo ryandikishijwe ibara ry'umukara.

Inzu ndende ikorerwamo ubucuruzi, isizwe irangi ndetse ifite ibyumba bitandukanye, ifite inzugi nini z'umweru zirimo ibirahuri, imbere yayo hari imbuga nini yubakishijwe amapavi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi irimo parafo, isizwe irangi ndetse irimo sima. Ifite umuryango munini uriho udufuka turi gucuruzwa, imbere yayo hari imbuga nini yubakishijwe amapave iparitsemo ikinyabiziga cya moto.

Umuhanda w'igitaka hirya yawo hari umurima munini uhinzemo ibigori imbere gato hari inzu nini zisakajwe amabati ndetse zubabakishijwe amatafari ahiye, imbere yazo hari abantu umwe muri bo yambaye umupira w'umweru.

Umusore wo gukora imyitozo ngororamubiri wambaye isengeri irimo ibara ry'ubururu, iruhande rwe hari abagabo babiri imbere yabo hari igikoresho cya mudasobwa inyuma yabo hari ibyumba by'amashuri byubakishijwe amatafari ahiye.

Ikigo cy'amashuri, kigizwe n'inyubako igeretse kabiri, ifite inkingi zisizwe irangi ry'umuhondo ndetse yubakishijwe amatafari ahiye, ifite imiryango myinshi, isizwe irangi ry'ubururu ndetse imbere yayo hari kandagira ukarara, inyuma yayo hari indabo, zikase neza.

Madamu Jeannette Kagame arahagaze yambaye ikanzu iri mu ibara ry'umukara, isaha ku kuboko ndetse n'amarinete, afite balo mu ntoki iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, ari gukina n'abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano igizwe n'imipira iri mu ibara ry'umuhondo.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'inzu nziza igeretse. Yubakishijwe amatafari ahiye ndetse isizwe irangi ry'umuhondo. Ifite esikariye ndetse n'utwuma dusize irangi ry'umukara. Iriho kandi umuntu wambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'inyubako igeretse kabiri, yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse isakajwe amabati y'ubururu, kandi ifite inzugi ziri mu ibara ry'icyatsi. Imbere yayo hari agapangu gato kubatswe n'ibyuma biri m ibara ry'icyatsi. Ni ngombwa kwiga kuko bitugirira umumaro buzima bwacu bw'ejo hazaza.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'inyubako nyinshi zisizwe irangi ndetse zifite amadirishya manini, imbere yazo hari icyapa gifite ubuso kiri mu ibara ry'umweru gishinze mu kibuga kirimo ibyatsi imbere yacyo kandi hari indabo zikase neza.

Icyapa kigizwe n'ibishushanyo bibiri: igishushanyo cya mbere kirimoho umwana w'umukobwa uri kweza amasahani ndetse n'umuhungu wambaye agakabutura k'ubururu, ufite agakombe karimo ibara ry'umutuku imbere ye haribase irimo amazi. Igishushanyo cya kabiri kiriho umusore ufite indobo mu ntoki ndetse n'umwana w'umukobwa urugokopa akoresheje umukoropesho.

Ikigo nderabuzima cya Musanze gisakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku, gisizwemo amarangi atandukanye higanjemo iry'umuhondo, imbere yacyo hari ikibuga kinini kirimo indabo ndetse hirya gato hari ibindi byumba bisakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye. Inyuma yacyo hari imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri, higanjemo abana bambaye amakabutura ari mu iba ryakaki ndetse n'amashati ari mu ibara ry'ubururu . Inyuma yabo hari abantu batatu, umugore umwe n'abagabo babiri. Harimo umugabo wambaye ingofero iririmo ibara ry'umweru ndetse imbere yabo hari icyapa kinini kiririmo ibara ry'umuhondo cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'ibyumba bitandukanye, byubakishijwe amatafarihiye ndetse bisakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu kandi bifite inzugi n'amadirishya biri mu ibara ry'ubururu, imbere yabyo hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi byumye.

Igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, gifite urugi rukozwe mu cyuma, rufite amabara abiri umweru ndetse n'umukara, imbere yarwo hari imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri bambaye udupfukamunwa ndetse n'amakabutura ari mu ibara ry'umukara, kandi hari abacungagereza bambaye impuzankano y'igicungagereza cy'u Rwanda.

Imbuga nini irimo utubuye dutoya, hari umunyeshuri wambaye ijipo y'ubururu ndetse n'ishati y'umweru, inyuma ye hari ishyamba n'ibiti birebire ndetse n'amashuri yubakishijwe amatafari ahiye.

Inzu nini ikorerwamo inama, isizwe irangi ry'umuhondo. Yanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umukara. Yicawemo n'abantu batandukanye, higanjemo abagabo. Imbere yabo hari, umugore ufite ibisuko by'umukara, wambaye ishati y'umweru, uhagaze.

Ikigo cy'amashuri cya Gihehengeri cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati arimo ibara ry'ubururu kiriho icyapa kinini, kiri mu ibara ry'umweru, kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda ndetse n'indangagaciro na kirazira z'abanyarwanda.

Ikibuga kinini kirimo ibiti bitandukanye, bifite amashami maremare, kicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri, higanjemo abambaye impuzankano igizwe n'amapantaro ya kaki ndetse n'amashati arimo ibara ry'umweru, iruhande rwabo hari abambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo.

Icyumba k'ishuri cyubakishijwe amabati ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'amatafari ahiye. Kigizwe kandi n'inzugi n'amadirishya birimo ibirahuri binini. Inzugi ziri mu ibara ry'ubururu. Inyuma yacyo hari ikigega kifashishwa mu kubika amazi, kiri mu ibara ry'umukara.

Icyumba k'ishuri gisiga iranranye ry'umuhondo, ndetse cyubakishijwe amatafari ahiye, kandi gisakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu, imbere yacyo hari umugabo uhagaze wambaye ijire y'icyatsi ipantaro, i'ikoboyi ndetse n'inkweto zirimo ibara ry'umukara, inyuma gato hari ikigega kifashishwa mu kubika amazi kirimo ibara ry'umukara.

Inzu nini yigirwamo irimo urumuri ndetse irimo sima yicayemo abanyeshuri batandukanye higanjemo abakobwa bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umumweru, iruhande rwabo hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwiga nk'utubati ndetse n'imeza n'ibindi.

Umuhanda w'igitaka urimo abakozi batandukanye higanjemo abambaye amajire harimo umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi, ijire igizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'umuhondo ndetse yambaye ingofero y'akazi iri mu ibara ry'umuhondo, inyuma ye hari ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari ahiye.

Itete rigizwe n'ibara ry'umweru rifite amadirishya ryubakishijwe ibyumba bitandukanye ndetse ryicawemo n'abanyeshuri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umweru, imbere yabo hari umunyeshuri w'umusore uhagaze, ku ruhande rwe hari umugabo wicaye wambaye ipantaro y'umukara ndetse ari kwandika

Umuhanda munini w'igitaka, urimo imbaga nyamshi y'abanyeshuri, higanjemo abambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hari abanyeshuri batandukanye bambaye impuzankano iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ikinyabiziga cya moto gikikijwe n'ibiti byinshi.

Ikigo cy'amashuri kigizwe n'ibyumba byubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'amabati ari mu ibara ry'ubururu, imbere yabyo hari icyapa kinini kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda n'amagambo yanditsweho ari mu ibara ry'umukara agaragaza ko ari ikigo cyo mu Karere ka Nyagatare.

Icyumba k'ishuri kirimo abanyeshuri batandukanye harimo abakobwa n'abahungu bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho, kirimo umukobwa wambaye ishati y'umweru ndetse n'isaha ku kuboko imbere ye hari umunyeshuri w'umusore uri gukoresha igikoresho kifashishwa mu guteranya imibare.

Abanyeshuri batatu bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'umweru, umwe muri bo afite urupapuro mu ntoki, inyuma yabo hari imbaga nyinshi y'abanyeshuri bicaye, higanjemo abakobwa bambaye amajipo ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'amashati ari mu ibara ry'umweru.

Ikigo cy'amashuri, kigeretse, cyubakishijwe amatafari ahiye ndetse gifite amabati ari mu ibara ry'ubururu, kiriho abagabo bane, babiri muri bo bambaye amajire, imbere yabo hari umugabo wambaye ingofero ndetse n'ishati.

Inzu yigirwamo igizwe n'amadirishya manini, isizwe irangi ry'icyatsi, irimo abanyeshuri bicaye, higanjemo abahungu n'abakobwa, bambaye impuzankano y'ishuri, iri mu ibara ry'umweru ndetse n'akaki, imbere yabo hari umwarimu w'umugore wambaye ipantaro y'ikoboyi ndetse na marinete.

Icyumba gisize irangi ry'umuhondo gifite amadirishya manini kicayemo abagabo batandukanye bicaye ku ntebe zirimo ibara ry'ubururu, imbere yabo hari ameza manini afite igitambaro kirimo ibara ry'ubururu ndetse arambitse amacupa y'amazi umwe muri bo yambaye ijire ndetse n'ingofero y'umweru.

Umugabo wambaye ipantaro iri mu ibara rya kaki ndetse n'ishati, afite amashami y'ibiti, imbere ye hari imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri higanjemo abakobwa, hari umwana w'umuhungu wambaye ikabutura iri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba cyiza kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umuhondo, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu murimo w'ububumbyi, kirimo kandi imeza ikozwe mu mbaho iriho ikibumbe cy'umutwe w'umuntu, kibumbye mu ibumba.

Abanyeshuri ba kaminuza barangije amasomo yabo, bambaye amakanzu ari mu ibara ry'umukara, bari kujugunya ingofero hejuru. Umwe muri bo yambaye ipantaro y'ikoboyi, inkweto z'umukara, inyuma ye kandi hari amatente ari mu mabara y'umweru n'ubururu yicayemo abantu.

Itente rigizwe n'amabara atandukanye, higanjemo iry'umweru, ryiciwemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu, imbere yabo hari abanyeshuri ba kaminuza barangije, bambaye amakanzu ari rimwe ibara ry'umukara ndetse bajugunyeya ingofero hejuru, ziri mu ibara ry'umukara.

Inyubako nziza igeretse isizwe amarangi atandukanye higanjemo iry'umweru, iriho kandi itara hasi yaryo hari idirishya rinini rigizwe n'ibirahuri ririmo ibara ry'umukara inyubako ikomeye ni ingenzi kuko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye.

Icyumba gitangirwamo ubumenyi kirimo abanyeshuri ndetse gisizwe irangi ry'umweru. Cyubakishijwe amakaro ndetse gifite amadirishya manini ariho amarido. Kirimo umunyeshuri wicaye, wambaye agapfukamunwa ndetse n'ikoti; imbere ye hari porojegiteri. Iruhande rwe hari undi wicaye wambaye umupira w'umuhondo, agapfukamunwa, imbere ye hari mudasobwa.

Icyumba gisizwe irangi ry'umuhondo kirimo ibishushanyo bitandukanye higanjemo ibiriho imbuto. Hariho igishushanyo kiriho inanasi, imineke ndetse na pome. Mu buzima bwa muntu ni iby'ingenzi gufata imbuto kuko ziturinda indwara.

Inzu nziza igeretse igizwe n'amadirishya manini arimo ibirahuri ndetse isizwe irangi ry'umuhondo. Inzu nziza ni ingenzi kuko ikorerwamo ibikorwa bitandukanye harimo nk'ubucuruzi ndetse ishobora kubamo amahoteli afasha ba mukerarugendo kuruhuka.

Icyumba kigirwamo n'abanyeshuri ba kaminuza kigizwe n'amadirishya manini ndetse gisizwe irange, kirimo intebe nyinshi zicayeho abanyeshuri batandukanye ndetse hagati yabo hari umwarimu wambaye agapfukamunwa ndetse n'ikote ry'umukara.

Icyumba kigirwamo kirimo urumuri, kirimo imbaga nyamwinshi y'abanyeshuri higanjemo abahungu, kirimo umusore wambaye umupira w'umweru, ndetse ari kwandika akoresheje ikaramu, iruhande rwe hari umuhungu wambaye umupira uri mu ibara ry'umukara.

Icyumba k'ishuri kirimo urumuri cyubakishijwe amakaro ndetse kirimo amarido manini, kicayemo abanyeshuri bari kwiga higanjemo abakobwa, umwe muri bo yambaye amarinete ndetse n'ishati y'umweru.

Idirishya rinini rigizwe n'ibirahuri, ririho urupapuro ruri mu ibara ry'umweru, ruriho amashusho y'abantu, ndetse n'amagambo yamamaza, yandikishijwe ibara ry'umukara, agaragaza iminsi ikorerwaho imyitozo ngororamubiri.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari mu cyumba kirimo urumuri arunamye, yambaye amarinete ikote n'ipantaro, ndetse ari gukora ku gatebe kari mu ibara ry'icyatsi. Inyuma ye hari abantu benshi harimo umusirikare wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda.

Abanyeshuri ba Kaminuza barangije kwiga higanjemo abakobwa batatu bambaye amakanzu ari mu ibara ry'umukara ndetse n'ingofero y'umukara, hagati yabo hari umusore wambaye amarinete, ishati y'umweru, karuvati ndetse n'umukandara, na we yambaye ingofero y'umukara ndetse n'ikanzu y'umukara.

Agahanda k'abanyamaguru kubabakishijwe amapave iruhande rwako hari broqkesma ziririmo ibara ry'umukara ndetse n'umweru, iruhande rwazo hari indabo ziri mu ibara ry'umuhondo zikaswe neza, iruhande rwazo hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi, imbere gato hari umugabo wambaye umupira w'umukara ndetse imbere cyane hari ibiti bifite amashami maremare.

Inzu nziza igeretse igizwe n'amadirishya manini arimo ibirahuri isize irangi ry'umuhondo ndetse yubakishijwe amabati arimo ibara ry'umutuku, imbere yayo hari ipoto ryifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, ndetse na jaride nini igizwe n'indabo zikaswe neza

Ahantu hasakaye hari abanyeshuri barangije kwiga kaminuza bambaye impuzankano igizwe n'amakanzu ari mu ibara ry'umukara, iruhande rw'aho hari abantu benshi bicaye, inyuma y'aho gato hari icyapa kiriho ikirango cya Kaminuza nkuru y'u Rwanda ndetse gifite ubuso bw'ubururu.

Icyumba gishinzwe irangi ry'umuhondo, kirimo amatara abiri amurika, kirimo abanyeshuri barangije kwiga, higanjemo abakobwa ndetse n'abagabo. Bamwe muri bo baricaye ndetse abandi barahagaze kandi bambaye impuzankano igizwe n'amakanzu arimo ibara ry'umukara ndetse n'ingofero ziri mu ibara ry'ubururu.

Icyumba cy'ishuri gisizwe amarangi atandukanye, harimo iry'umuhondo ndetse n'iry'umweru, kirimo abanyeshuri bicaye ku dutebe duto imbere yabo hari utumeza tubafasha kwandika, imbere yaho hari umwarimu ndetse n'ikibaho kirimo ibara ry'icyatsi.

Icyumba gitangirwamo ubumenyi, kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umweru kirimo amatara ndetse gifite amadirishya manini ariho amarido. Kicayemo abanyeshuri bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'icyatsi ndetse imbere yabo hari utumeza duto duterekwaho ibikoresho bitandukanye harimo mudasobwa, amakayi n'ibindi.